Ubuvuzi ni bwiza cyane . Aho abaganga ari bamwe mu bantu bafasha abaturage kubavura indwara zitandukanye. Maze bagakira bagasubira mu buzima busanzwe , babikesha iterambere igihugu cyagezeho cyubaka ibitaro byiza ,ndetse n'ibikoresho abaganga bifashisha bavura abarwayi.

Imiti gakondo ni ingirakamaro cyane, aho abakurambere bazifashishaga bivura indwara zitandukanye, kandi na n'ubu hari aho zigikoreshwa, nk'imiti kugira ngo bivure nk'ibisebe ibiheri n'ibindi.

Imiti gakondo ni ingirakamaro cyane kuko zafashaga abantu gukira indwara zitandukanye, aho dusangamo nk'igisura ,aho bagifata bakakirya ikindi bakacyifashisha mu buvuzi bugiye butandukanye.

Umuco gakondo dusangamo ibintu biba bitandukanye, nk'ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, abantu banywa indi bakayisiga, maze bakarushaho gukira bagasubira mu buzima busanzwe.

Gukoresha imiti gakondo ni ingirakamaro cyane. Aho nk'abakurambere bacu bayikoreshaga bivura indwara zitandukanye, bayinywa cyangwa bayirya, maze bagakira, bagasubira mu buzima busanzwe.